Aha ni munzu irimo abakozi babiri b'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwamda kimenyerewe gufasha abantu mu bintu by'ubwishingizi bw'ubuzima, ubw'ibinyabiziga, ndetse n'ubw'imitungo yabo yaba iyimukanwa n'itimukanwa urugero nk'umutungo we wafashwe n'imkongi y'umuriro baramufasha iki kigo gikoresha ibara ry'ubururu ndetse n'umweru harimo abagabo babiri.

Aha ngaha hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'ay'umukara handitseho ubwishingizi bw'ingwate. Iki ni ikirangantego k'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, gitanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, ubw'ubuzima, ubw'imitungo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Iyi shusho iratwereka abagabo babiri bari gusuhuzanya bishimye cyane, iki kandi kiratwereka ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, gifasha abantu kubona ubwishingizi ku bintu bitandukanye, haba imitungo yabo ndetse n'ibinyabiziga byabo, si ibyo gusa kandi bita ku munezero w'ababagana, n'imibereho myiza y'ababagana, ikoranabuhanga nk'igikoresho cya mbere, kandi bagashyira ubucuruzi imbere.

Muri iyi shusho harimo ikirangantego cy'ikigo kimenyerewe cyane mu Rwanda mu bijyanye n'ubwishingizi, gifasha abantu mu bintu byinshi byerekeranye n'ubwishingizi cyane cyane bw'ubuzima cyangwa se igihe umuntu yahuye n'impanuka kikamufasha, ubwishingizi kundi bw'imitungo yabo, cyangwa se ibinyabiziga byabo, igihe bakoze impanuka, gifite ibara ry'ubururu handikishijemo amagambo y'umweru.

Aha hari ikirangahantu cyiza cyane kirekire kiriho umubyeyi uhetse umwana, kiriho amagambo yandikishije amabara y'umweru ndetse n'ay'umuhondo kiranga ko hafi aha hari ikigo cy'ubwishingizi bw'ubuzima.

Ahangaha hari umubyeyi ndetse n'umwana mutoya wambaye umupira w'umweru n'urunigi mu ijosi bakaba yishimye bari kumwe n'undi mwana uri mu bitaro urwaye ufite ibimufasha guhumeka, ibingibi kandi barabyishimiye kuko babifashimo n'ubwishingizi bw'ikigo cy'igihugu kizwi mu Rwanda gitanga ubwishingizi bw'ubuzima.

Ahangaha hari umusore mwiza cyane wambaye umupira w'ubururu bwijimye, afite ikintu cy'ubururu mu ijosi cy'ikirangantego cy'ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima mu Rwanda gikoresha ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'umweru.

Iri ni ishusho rigaragaza ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda kugira ngo gifashe abantu bahuye n'ibyago bitandukanye cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima, cyangwa kibafashe kwishingira ubuzima bwabo mu gihe bahuye n'ibyago bitandukanye cyane cyane nk'inyubako zabo zahuye n'inkongi y'umuriro cyangwa se bahuye n'impanuka zindi zigiye zitandukanye.

Iki ni ikirangantego cy'ikigo gikorera mu Rwanda, kugira ngo gifashe abantu kubona ubwishingizi ku bikorwa byabo bitandukanye, ibinyabiziga byabo, amazu yabo cyangwa ibikorwa byabo by'ubuhinzi bigiye bitandukanye n'indi mishinga myinshi igiye itandukanye.

Iyi shusho irikutwereka inzu nziza cyane ifite amarange cyane ndetse ifite n'amabati y'umukara hejru yayo hari n'umutaka mwiza cyane ufite ibara ry'ubururu aratubwira ko kandi umuntu wese ashobora gukorana n'iki kigo cy'ubwishingizi kugira ngo abone ubwishingizi bigiye butandukanye, cyane cyane imitungu itimukanwa ikamufasha kurinda umutekano w'imitungo ye.

Iri ni iduka ricururizwamo imyenda n'inkweto, hari akabati keza cyane karimo inkweto ndetse n'ibindi bitandukanye, imyenda akabati gasize ibara ryiza cyane ry'umweru ndetse n'iry'umutuku werurutse. Iri mu nzu nziza cyane ikeyeye irimo amarange y'umweru. Aha kandi hari ikanzu nziza cyane y'ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu irimo iduka ricururizwamo imyenda n'inkweto, hari imyenda myiza cyane ibereye ijisho, hari ifite ibara ry'icyatsi, ifite ibara ry'umutuku werurutse, ndetse n'umweru n'ubururu ndetse n'andi mabara agiye atandukanye. Si ibyo gusa kandi hari n'icyifashishwa kugira ngo bacyambike imyenda, umukiriya abashe kuyibona neza.

Iyi shusho iratwereka iduka ritoya, ririmo umukobwa uri guseka, wambaye isengeri y'umukara, ndetse witeze igitambaro cy'umweru mu mutwe, ni iduka ririmo ibintu byinshi bikenewe, by'ibanze, bikenerwa n'abantu batuye hafi ye, biraborohera kuza kubireba, harimo imboga, ibyo guteka bitandukanye, ndetse n'akajerekani k'umuhondo gakunzwe kubikamo amavuta.

Aha ni mu iduka ricururizwamo ibikinisho cyane cyane by'abana batoya, ni byiza kandi bibereye amaso, bikozwe n'intoki z'abantu kandi harimo ibigiye bifite ishusho y'inyamaswa tuzi zigiye zitandukanye. Hari ibifite ibara ry'icyatsi, ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo.

Aha ngaha ni mu iduka ry'imyenda, harimo umugore wishimye wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'imashini yifashishwa mu guteranya imibare, afite kandi ikaramu arimo kwandika ku gapapuro. Harimo imyenda myiza cyane ifite amabara atandukanye.

Aha ni ku muhanda ukorerwaho ubucuruzi, hari inzu z'ubucuruzi zitandukanye, imbere y'izo nzu z'ubucuruzi hari imyambaro igurishwa, si ibyo gusa kandi hari n'umuntu urimo uza asatira muri iryo duka, muri iyo myambaro harimo ifite amabara atandukanye, ay'umweru, ndetse n'ay'umuhondo n'umukara.

Aha hari imyenda iri mu kabati imanitse y'amabara atandukanye, ariko ni imyenda ikozwe mu budodo, hari ikozwe mu budodo bw'umweru ndetse n'ubudodo bw'umukara ndetse n'andi mabara agiye atandukanye, sibyo gusa hari ibipupe byifashishwa cyane mu kwambika imyenda kugirango abashe kubona abakiriya bayibone neza.

Aha ngaha hari ikinyabiziga cyiza cyane gifite ibara ry'umukara, gifite amapine y'umukara ndetse cyaka amatara y'umutuku, inyuma hari igipapuro cyanditseho Kigali, isoko rya Kigali ricuruza imodoka, ahantu giparitse kandi hari inyubako nziza cyane, yubakishije amatafari ahiye.

Aha hari ikinyabiziga cyiza cyane gifite ibara ry'umukara ndetse harimo n'akabara k'ikijuju. Ni ikinyabiziga cyiza cyane kandi kigezweho kidatwarwa n'abantu benshi kandi bifite bafite amafaranga, giparitse ahantu heza cyane hari akabara k'umweru ndetse n'umukara. Inyuma yacyo hari ipikipi iri kugenda mu muhanda itwaye umugenzi.

Aha hari umugabo ufite igikoresho gikoreshwa cyane mugukora amamodoka, yambaye umupira w'umukara ndetse n'ingofero y'umukara mu mutwe, n'ipantaro ya kaki, yambaye ndetse n'isaha ku kaboko, imbere ye hari ikinyabiziga gifite ibara ry'ikijuju, ndetse arimo araganira n'undi muntu umuri iruhande wambaye ishati y'umweru.

Aha hari abagabo babiri inyuma yabo hari ikinyabiziga cy'umweru kivuye mu kigo cyigenga gikorera mu Rwanda kizwi cyane mu kugurisha no gukodesha amamodoka y'ubwoko butandukanye, ikinyabiziga kiba ari inyuma gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara abangaba umwe amaze kugura undi amaze kugurisha.

Aha hari abagabo batatu ndetse n'umugore umwe bafite ikiranga ikigo cy'ikorera gikorera mu Rwanda kigurisha ndetse kikana kodesha ama modoka. Inyuma yaho hari ikinyabiziga cyiza cyane kandi hari kwaka itara ry'umuhondo.

Aha hari abagabo babiri, bafite icyapa kiriho ikirangantego cy'ikigo cyigenga gikorera mu Rwanda gikodesha, ndetse kikanacuruza ibinyabiziga bitandukanye, inyuma y'abo bagabo hari ikinyabiziga cyiza cyane cy'umukara kiri kwaka amatara y'umweru.

Aha hari ikinyabiziga kinini kimenyerewe mu gutwara ibintu bitandukanye cyane cyane amata cyangwase ibijyanye na peteroli. Iki kinyabiziga imbere yacyo hari abagabo babiri, abakozi b'ikigo kimenyerewe mu Rwanda cy'Akagera gikodesha ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'imizigo itandukanye.

Aha hari ikinyabiziga cyifashishwa cyane mu bwubatsi bw'inyubako cyane cyane ziremereye, inyubako ndende. Hari kandi insinga z'amashanyarazi zijya ahantu hatandukanye, kugira ngo zikwirakwize umuriro w'amashanyarazi ahantu henshi hatandukanye;...

Aha hari abagabo batatu ,umwe wambaye umupira w'umutuku, undi yambaye impuzankano y'icyatsi ndetse n'ingofero y'umukara, ndetse n'undi wambaye ipantaro y'ikoboyi ,inkweto z'umukara zirimo uturongo dutatu tw'umweru. Afite ikiranga ko akorera ikigo cyigenga gikorera mu Rwanda, gikora ibijyanye no gukodesha no kugurisha amamodoka y'ubwoko butandukanye .nyuma yabo nabo hari ibinyabiziga bibiri by'umweru.

Aha ngaha hari ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara, ikinyabiziga gicanye amatara y'umutuku ndetse n'utundi dutara dutoya tw'umuhondo, gifunguye umuryango w'inyuma, gifite intebe bicaraho z'umukara, si ibyo gusa hari n'ibindi binyabiziga biri imbere yacyo bigiye bitandukanye, hakaba hari n'ibifite ibara ry'ikijuju, biri mu nzu nini cyane yagenewe gupakwamo bino binyabiziga, mu gihe bitegerejwe kugurishwa cyangwa gukodesha.

Aha hari umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, afite ikaramu mu ntoki ye ari kwandika ku rupapuro ikaramu isa umukara. Imbere ye hari mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, si ibyo gusa ku ruhande hari insakazamashusho ebyiri.

Iyi ni inote yakoreshwaga kera mu Rwanda inote y'ijana hataraza ibiceri. Ni inote yari iriho umugore ndetse ahetse umwana, hari handitseho banki nasiyonali y'u Rwanda yari inote y'ijana yasimbuwe n'ibiceri.

Uyu ni umuntu uri kubara amafaranga, afite amafaranga menshi mu ntoki, uyu muntu afite uruhu rwirabura kandi yambaye imirimbo ku maboko myiza cyane itandukanye, kandi yambaye n'umwenda utukura. Aya ni amafaranga menshi cyane ari kubara kandi atandukanye.

Aha ni inzu ikorerwamo n'ibigo bitandukanye bibika bikanabikuza amafaranga ndetse bikanatanga inguzanyo, haba harimo abakozi babyo bafite za mudasobwa hari n'abafatabuguzi cyangwa se abakeneye ubufasha bw'icyo kigo bari hanze bategereje kubafasha.

Aha hari amafaranga atandukanye hari amafaranga y'amadorari ateretse hejuru ya mudasobwa, hari andi mafaranga menshi afashwe n'ikiganza cy'umugore wambaye impeta nziza cyane ibereye ijisho kuyireba.

Iki ni ikirangahantu cyerekana ko hano hari iduka ricuruza amata, ndetse n'ibiyakomokaho bikorwa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda, mu gukora amata neza no kuyatunganya neza rwa Nyanza, hariho ibintu byinshi kandi iri duka ricuruza amata afite ubuziranenge ndetse n'ibiyakomokaho by'ubwoko butandukanye.

Aha ni mu nzu, hanze hari urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga bitandukanye, hari ipikipiki iriho ingunguru ntoya ndetse n'akajerekani byifashishwa mu kugemura amata bayajyana ahantu hatandukanye. Si ibyo gusa, hari n'andi mapikipiki ari hirya. Aha ndetse hari ahantu hari ikiziba cy'amazi yamenetse, hari umuntu uri kuyasukura, ayakoropa, ayasohora, ayajyana hanze.

Aha ngaha ni mu iduka ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho, hirya hari icyapa cyanditseho amata, kigaragaza ko hano hacururizwa amata, hari umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'akajerekani, kakunze kubikwamo amata, afite ndetse n'igikapu cy'umukara, harimo kandi n'icyuma cyifashishwa mu gutunganya amata, kugira ngo amere neza ntagire ingaruka ku bayanywa.

Aha ni mu iduka ricuruza amata, hari abagabo babiri bari kuguganiza amata mu cyuma gitunganya amata gikozwe mu ikoranabuhanga, ku buryo gisukura kigatunganya neza amata aba akuye ahantu hatandukanye ku makusanyirizo.

Iri ni iduka ricururizwamo amata ndetse n'ibiyakomokaho, hano harimo icyuma bashyiramo amata avuye ku ikusanyirizo kikayatunganya, kikayasukura kugira ngo atagira ingaruka ku bari buze kuyagura, si ibyo gusa kandi harimo n'impapuro z'isuku zifashishwa cyane cyane aho bacuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya.

Iki ni ikiribwa gikozwe mu ifarini, amata, amagi, ndetse bashyiramo umunyu, bakifashisha amavuta kugira ngo bagitunganye kimere neza, kirafasha cyane cyane igihe umuntu ashonje kandi atari buhite abona ibyokurya bitetse ako kanya.

Aha ngaha hari indobo ebyiri ziteretse ku meza indobo zifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hari n'akuma kifashishwa mu gufata ikintu bata gikojejeho intoki kugira ngo hirinde kwanduza indwara indobo irimo amandazi akozwe mu ifarini, amata, amavuta ndetse n'isukari si ibyo gusa kandi hari ni nurugi rw'ubururu rubana ko hano hacuruzirizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho.

Aha ni mu cyuma cyifashishwa cyane mu gukonjesha ibintu cyane cyane byo kunywa, hari a hari utujerekani tubiri turimo amata ndetse n'utundi ducupa turimo ibikomoka ku mata, si ibyo gusa, harimo n'amazi ari mu macupa atatu maremare, bitondetsemo neza mu buryo bubereye ijisho.

Ahangaha hari agasahani karimo impapuro z'isuku zikunda kwifashishwa cyane ahantu bacuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, kuko zifasha mu kugira ngo abantu babashe kwihanagura igihe basoje kurya cyangwa bafatishe ibyo kurya bityo hirindwe umwanda ushobora guteza indwara.

Aya ni amandazi akorwa mu ifarini amata, amagi, isukari, ndetse hakifashishwa n'amavuta kugira ngo bayatunganye neza. Amandazi araryoha kandi yafasha igihe umuntu adafite ibiryo byo kurya arayarya kandi akumva amerewe neza.

Ahangaha hari akajerekani k'umweru gashyirwamo amata kakabikwa mu maduka kugira ngo amata ntiyangirike, abaguzi baze kuyagura akimeze neza kandi nabo nibayageza mu rugo akomeze amere neza ku buryo adashobora kwangirika, ni akajerekani keza cyane kandi gafite isuku ihagije ku buryo gashobora kubika amata igihe kirekire.

Iyi ni inyemezabwishyu ikoreshwa cyane mu bucuruzi mu gihe umuguzi amaze kugura ibicuruzwa no kwishyura bamuha iyi nyemezabwishyu kugira ngo aha ajya bakamubaza ibyo yaguze abyerekane ndetse yerekane n'ibiciro byabyo.

Iyi shusho iratwereka uburyo umuguzi cyangwa umufatabuguzi runaka ashobora kwishyura ibintu bitandukanye akoresheje ubu buryo hari ukohereza amafaranga, hari ukwishyura, hari kugura amayinite kugirango abashe guhamagara no kohereza ubutumwa bugufi, hari ugukoresha, gufata inguzanyo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, umuntu atiriwe afata amafaranga mu ntoki, kuko byagaragaye ko gufata amafaranga mu ntoki, na byo biri mu bituma indwara zikwirakwira.

Ubu ni uburyo bugezweho mu bucuruzi cyane cyane aho umuguzi yishyura umucuruzi akoresheje adakoze ku mafaranga akoresheje uburyo bugezweho bw'iterambere. Ubu buryo ni uburyo bwiza burihuta kandi buremewe ikindi burizewe kuburyo budashobora guhombya umuguzi cyangwa se umucuruzi.

Iyi ngiyi ni mudasobwa irimo dosiye igaragaza ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, igaragaza amazina y'ugomba kwishyura umusoro, umusoro agomba kwishyura uwo yishyuye ndetse hakaba hariho n'indi mibare igiye itandukanye inyungu, ndetse ibisabwa byose mu gihe umuntu yishyura imisoro n'amahoro.

Iki ni igipapuro kiriho ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Kigaragaza umuntu umaze kwishyura wo mu karere ka Nyarugenge yitwa Esperance Ntakirutimana. Hariho uburyo bwo kwishyura ndetse n'ibyo yishyuye, n'umubare w'amafaranga yishyuye.

Iyi shusho iratwereka umuntu ufite amafaranga yo hanze atandukanye ari kuyabara akoresheje intoki ze, aya mafaranga ntago ari ayo mu Rwanda amenyerewe cyane mu bihugu byo hanze cyane cyane muri Amerika.

Aha hari ibiceri by'amoko atandukanye, hari ibiceri byo mu Rwanda ndetse n'ibindi biceri byo mu bihugu byo hanze cyane cyane ibiceri bigera bitandukanye binini n'ibitoya, hari kandi n'imashini yifashishwa mu kubara amafaranga no kugira ngo uyabara ntiyibeshye.

Aha hari ikirangahantu gifite ibara ry'umuhondo umutuku, ubururu ndetse n'andi mabara atandukanye, kigaragaza ko hano hari aho umuntu ashobora kujya afite amafaranga yo mu kindi gihugu akayavunjisha akavamo ayandi manyarwanda.

Iri ni iduka aho umuntu ashobora kujya, akajya kuvunjisha amafaranga afite atari amanyarwanda, bakayamuha mu manyarwanda cyangwa akajyanayo abanyarwanda bakamuha atari umunyarwanda bitewe n'icyo ashaka kuyakoresha cyangwa se aho ashaka kuyakoresha. Hari abafatabuguzi benshi bakeneye ubufasha mu bijyanye no kuvunjisha amafaranga atandukanye.

Ishusho iratwereka akabati kaba kari i ruhande rw'igitanda gishashe neza gishasheho amashuka y'umweru ndetse n'imisego ifite umweru ndetse n'umukara, si ibyo gusa kandi gafite imyanya myinshi ushobora kubikamo ibintu byawe, hariho n'isaha umuntu yifashishwa cyangwa se akamenyerewe mu kubyutsa abantu, iyo isaha zigeze kagasona uwagashyizeho akabyuka cyangwa n'ikindi kintu agiye gukora.

Iyi shusho irerekana iduka ricuruza ibikoze mu mbaho cyangwa se ibibaje, ubwo ndavuga intebe ndetse n'ameza n'ibindi bikoresho byo mu nzu by'amoko menshi atandukanye.

Aha ngaha hari intebe nziza cyane hari intebe zishyirwa ku meza yo kuriraho cyana cyane muri saro hakaba hari n'izindi izindi ameza abiri y'umukara ni intebe zisize ibara ry'umukara ziteguye neza mu nzu nziza isize irange ry'umweru.

Ahangaha hari imbaho nyinshi cyane zitondetse murongo kandi zibereye ijisho kuzireba zidateje akavuyo, hari umugabo wicaye wambaye imyenda y'imikara. Hari kandi ibiti byiza bibereye ijisho, izi mbahoho zifashishwa mu kubaza ibikoresho bitandukanye birimo; intebe, ibitanda, utubati, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu nzu.

Aha ngaha harimo inebe nyinshi z'ubwoko butandukanye hari izifite amabara atandukande hari izifite ibara ry'ikijuju, ndetse hari n'izifite ibara ry'ubururu sibyo gusa hari ameza atandukanye ndetse n'akabati ibi byose bikoreshwa ni ibikoresho byo mu nzu.

Amatora akorerwa mu Rwanda hagamijwe gushaka abayobozi mu nzego zitandukanye akorwa mu mucyo, aho abayitabiriye batorera ahantu habugenewe kandi bagashyira amajwi yabo ahantu hamwe akabarwa ku mugaragaro.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho byo mu nzu bitandukanye bikozwe mu mbaho ndetse n'ibindi bi bitandukanye, birimo intebe, ameza, ibitanda, ameza yo kuriraho, ndetse n'uburiri bwo kuryamaho ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu nzu.

Aha ngaha hari intebe nziza cyane ibaje mu mbaho, hakaba hari n'akabati abantu ashobora kubikamo ibintu bitandukanye, hejuru yaho hateretseho akantu umuntu ashobora kwifashisha cyangwa se ataka hejuru y'akabati kugira ngo ibintu bise neza.

Iyi ni inzu nziza cyane ikorerwamo imyidagaduro itandukanye. Aha hari ibyo kurya biteguye neza, amafunguro atetse mu buryo butandukanye, kandi atondekanyije ku murongo neza cyane. Ku buryo abaza kubirya baza kuryoherwa n'aya mafunguro, si ibyo gusa kandi hirya mu kirahure hari amatara yaka neza cyane abereye ijisho.

Aha ni mu nzu imenyerewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane by'imyidagaduro, gucumbikira abantu, kugaburira abantu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Harimo intebe ziteguye neza ndetse n'ameza biteguye neza bibereye ijisho kandi biteye amabengeza ndetse harimo n'amatara atandatu ari kwaka ibara ryiza.

Umuhanda w'umukara irimo ibinyabiziga bishinzwe gutwara anagenizi inyabiziga bikaba bifite ibara ry'umweru imbere yaho hakaba hari umugabo wambaye agapira kajya gusa umweru n'ipanaro ijya gusa ubururu.

Aha hari inyubako ebyiri nziza cyane zibereye ijisho kuzireba, zifite amabati y'umutuku ndetse zubatse mu buryo bujya gusa, imbere yazo hari ibiti byiza na byo biteye amabengeza kandi izi nyubako zisa nk'aho zubatse ku muhanda, si ibyo gusa ahantu zubatse hari ikirere cyiza gisa neza cy'ubururu ndetse n'umweru.

Iyi ni inyubako iberamo ibikorwa byinshi bitandukanye by'imyidagaduro, si ibyo gusa kandi hashobora kuberamo amanama, hari umukobwa umenyerewe cyane mu bakora mu gikoni, uri gutambuka, hari intebe ziteye neza kandi ziteguye mu buryo bwiza, si ibyo gusa hari indabo nziza cyane zisa icyatsi.

Iyi ni inyubako nziza cyane ibereye ijisho kuyireba, ifite, isize amarangi y'umweru, ay'ikijuju ndetse n'ay'umukara ndetse hakaba hariho uruzitiro hejuru rusize irangi ry'umukara, izi nyubako zimenyerewe cyane gukoreshwa mu gucumbikira abantu cyane cyane abaturutse hanze, si ibyo gusa haberamo n'ibindi bikorwa bitandukanye byinshi.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye by'amoko menshi, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari intebe zicarwaho n'abaguzi bagura ibyo binyobwa zitondetse ku murongo kandi zibereye amaso kuzireba, hari amatara abiri yaka umweru ndetse n'isakazamashusho abaguzi bicara bakareba ibyo bashaka cyane cyane umupira w'amaguru.

Iyi ni inyubako nini cyane kandi nziza cyane ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, hakaba habamo aho umuntuna ashaka kuryama, aho umuntu ashaka gufatira amafunguro ndetse n'ibi, n'ibindi bijyanye n'imyidagaduro yakenera. Si ibyo gusa kandi haba harimo n'ibyumba by'inama bitandukanye, ahangaha hari umuntu uri kugenda wambaye ishati y'umukara y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, hakaba harimo intebe kandi ziteguye neza cyane.

Iyi ni inzu nziza cyane yubatse neza iberamo ibikorwa by'imyidagaduro bitandukanye ndetse n'inama zitandukanye, aha ngaha hari hatatse neza hateguye neza kandi hafite isuku, hari abakozi babo hari ndetse n'umuguzi wabo usaba ubufasha ku bintu bitandukanye.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi ikoreramo ibigo bitandukanye cyane cyane ikigo cy'ubwishingizi gitanga ubwishingizi ku bintu bitandukanye nk'ubuzima bw'ibinyabiziga ndetse n'ubw'imiti utungo itimukanwa irimo amazu, ndetse igihe umuntu yabuze cyangwa yahombye imitungo ye bakamufasha kwigayiruza.

Aha ngaha hari ibiro byiza cyane hakaba harimo intebe nziza cyane za kijyambere ndetse n'ameza atandukanye hakaba hari kandi n'ikirangantego cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda gitanga ubwishingizi bw'ubuzima. Kiri ahantu heza cyane kandi gifite igisenge cy'umukara ndetse n'ahandi hakozwe mu mbaho hakaba hari kwaka amatara abiri.

Aha ngaha hari inyubako ndende ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahure by'umukara, ni inyubako iriho ibirangahantu bigaragaza ko hano hakorera ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda gitanga ubwishingizi bw'ubuzima ndetse n'iby'imitungo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byinshi umuntu yakenera guha ubwishingizi.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ubucuruzi, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse ikorerwamo n'ibigo bitandukanye by'ubwishingizi. Urugero nk'ikigo cy'ubwishingizi cya SONARWA gifite ibara ry'umutuku wijimye, ndetse muri iyi nyubako hari n'ibindi biranga ahantu byerekana ko hano hakorerwamo ubucuruzi butandukanye. Hejuru hahera hari umugabo uhagaze.

Ahangaha hari inyubako nziza cyane ibereye ijisho kuyireba, inyubako isize amarangi meza cyane kandi yubatse mu buryo bugezweho bw'iterambere, hakaba hafite kaburimbo imbere yayo ndetse n'ibyatsi byiza cyane bikikije iyi nyubako ifite ubusitani bwiza. Iyi nyubako imbere yayo hari ikirango kigaragaza ko hano hakorera ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, gitanga ubwishingizi ku bintu bitandukanye.

Aha hari inzu inyubako nini irimo ibiro bigiye bitandukanye, hari aharimo abantu babiri bicaye umukobwa ndetse n'umuhungu. Si ibyo gusa kandi, harimo n'umusaza w'uruhu rwera urimo uragenda, yambaye ishati y'umutuku werurutse cyane ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ibi ni ibiro by'ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda gikorera mu Rwanda, gitanga ubwishingizi mu bintu byinshi bitandukanye ubwishingizi bw'ubuzima, ubw'ibinyabiziga, ubw'imitungo itimukanwa nk'amazu ndetse n'ubutaka mu gihe nyirabwo yagize ibyago ubwishingizi buramufasha.

Aha hari inyubako ndende nziza cyane ebyiri hakaba hakikije ibiti byiza cyane hakaba kandi hari n'ibiti bitatu ndetse hakaba hari ikiranga ko hano hakorera ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu rwanda cyandikishije ibara ry'ubururu ndetse hakaba hari n'ibara ry'umuhondo. Hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, ndetse n'ibinyabiziga.

Iyi ni inzu ikoreramo ikigo kizwi cyane mu Rwanda mu gutanga ubwishingizi, gikoresha amabara y'umweru n'ubururu kandi gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, si ubuzima gusa kandi batanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, imitungo mu gihe umuntu imitungo yahuye n'ikibazo cyangwa se ikinyabiziga cye cyahuye n'impanuka baramufasha kugirango yongere asubirane ibyo yahombye.

Iyi ni inzu ikoreramo abakozi b'ikigo cy'ubwishingizi gikoreramo mu Rwanda, iri ni ishami ritoya ry'iki kigo aho umuntu ajyayo agasaba ubufasha mu bijyanye bw'ubwishingizi bw'ubuzima cyangwa ibindi bintu bitandukanye birimo ubucuruzi, amazu cyangwa ibinyabiziga.

Aha ngaha hari umukobwa mwiza cyane wambaye ishati ya kaki uhagaze imbere y'inzu cyane, kandi n'umukobwa ufite umusatsi mwiza cyane ahagaze imbere y'inzu bakubwira ko nawe ushobora kubona inzu mk'inzozi zawe.

Iyi ni ishusho iriho umukobwa mwiza cyane wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, hariho kandi ikigo gishobora gufasha umuntu kwagura umushinga we cyangwa ubucuruzi bwe mu buryo bw'amafaranga cyangwa ubundi bufasha bwaba akeneye mu gufata inguzanyo kugira ngo yagure ubucuruzi bwe.

Ahangaha hari umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi y'imikara ufite amafaranga mu ntoki wishimye kandi yambaye ishati y'ubururu, ibingibi biri kucyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo asa umweru andi asa icyatsi ndetse n'ayandi y'ubururu.

Aha hagaragara uburyo umuntu ashobora kwiyubaka abifashijwemo na kimwe mu bigo bimenyerewe mu Rwanda mu kubika amafaranga ndetse no kuyatanga, cyane ko icyo kigo kigaragaza ko gitanga inguzanyo ibigara hariho umuntu ufasha abantu, uri bubasobanurire uburyo bashobora kubona inguzanyo cyangwa abemerewe kubona izo nguzanyo kugira ngo babashe kwiyubaha.

Iki ni igipapuro kiriho amategeko n'amabwiriza umuntu akurikiza, igihe agiye gusaba inguzanyo runaka mu bigo bitanga inguzanyo, igihe yaba ashaka kongera umushinga we cyangwa kuwuzamura akawuteza imbere. Bamuha amategeko n'amabwiriza yabona yabasha kuyakurikiza, agasaba inguzanyo.

Ahangaha hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ufite umusatsi w'umukara wishimye cyane yicaye imbere ya mudasobwa aho ari gukora ibintu bitandukanye cyane cyane nko gufungura konte atavuye aho ari akayifungura kandi ikamugirira akamaro

Ipoto rishinze iruhande rw'umuhanda, hejuru hariho itara ndetse n'insinga zijyana amashanyarazi ahandi munsi, hari umugabo uri gutambuka wambaye umupira n'ipantaro y'umukara.

Aha ngaha hari isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo imboga zitandukanye z'amoko menshi, harimo inyanya, intoryi, sereri karoti pavuro harimo ndetse n'indobo zirimo ibindi bicuruzwa birimo ubunyobwa, ndetse n'ibindi birungo bitandukanye byifashishwa mu guteka.

Inyubako igaragara nk'ishuri mbere yayo hamanitse idarapo rigihugu cy'u Rwanda hanze y'ikigo hari umuntu mu muhanda ufite igitabo mu ntoki ugenda yihuta ageze hafi y'icyapa.

Ahangaha hari ibicuruzwa bitandukanye hari inyanya hari imineke, hari ibishyimbo hari ndetse n'amashaza. Hari umugore wambaye imirimbo y'umweru kukaboko ndetse n'imyenda irimo ibara ry'ubururu, hakaba harimo n'uburyo n'igiti kibaje hateretseho ibase y'amashaza biri kumworohera gupima amashaza.

Iyi shusho iratwereka isoko ririmo abantu batandukanye ricururizwamo imyambaro, ndetse n'ibindi bitandukanye, hejuru rifite amabati y'ubururu ariko ashaje ndetse n'andi mabati agiye atandukanye ariko ashaje, hejuru hariho imyanda kandi iri soko ricururizwamo imyambaro itandukanye imipira yo kwambara, ifite amabara atandukanye umutuku, umukara, umweru, ndetse n'andi mabara menshi.

iringiri ni isoko ricururizwamo imyambaro itandukanye ndetse n'ibindi bintu bikozwe bya kinyafurika, hakaba harimo ibitenge ndetse n'imitako igiye itandukanye cyane cyane imitako yo munzu. N i ibintu byiza cyane bitondetse neza cyane bidateje a kavuyo kandi bibereye ijisho.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye bw'ibintu byinshi by'amoko menshi, hari ibikoresho byo mu rugo, hari imyambaro y'abantu batandukanye, abana, abakuru ndetse n'abari mu bigero rutandukanye, iyi nzu irimo amatara kandi irimo ibicuruzwa byinshi, isize amarange y'umweru ndetse n'umuhondo.

Iri ni isoko ririmo abantu batandukanye, ricururizwamo imyenda, harimo imyenda myiza cyane cyane cyane imyenda yo kwifubika, imipira y'imbeho ifite amabara meza atandukanye ay'umutuku, ay'umweru, ay'ikijuju ndetse n'andi arimo amabara agiye atandukanye.

Iyi shusho iratwereka abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha ibara ry'umuhondo, batatu bose bambaye imipira y'imihondo ndetse n'ingofero z'umukara, hari kandi ikiranga ahantu ukiriho ibishushanyo bitandukanye, hariho imipira, hariho utuntu bambara ku maboko hariho amagofero ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ipoto ririho insiga z'amashanyarazi bifasha abatuye aho hafi kubona umuriro Bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse ibiti bikikije ipoto ry'amashanyarazi.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hari abakozi bacyo bambaye imyenda y'imituku ndetse n'ingofero z'imituku, hari n'abafatabuguzi b'icyo kigo bari gusaba ubufasha mu bintu bitandukanye harimo kohereza, kubitsa amafaranga, kuyakira ndetse no kuyabikuza.

Aha hari amaduka abiri y'ibigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, kimwe gikoresha ibara ry'umutuku n'umweru, ikindi gikoresha ibara ry'umuhondo, haba harimo umukozi w'icyo kigo ufasha abegereye aho hantu kubona ubufasha ku bijyanye n'itumanaho cyane cyane kubitsa, kohereza no kwakira amafaranga ndetse no kubikuza, kandi bakabasha kugura amayinite ku buryo babasha guhamagara no kohereza ubutumwa bugufi ku miryango yabo.

Iki ni igipapuro kiriho uburyo umuguzi ashobora kwishyuraho ibicuruzwa bikamworohereza ndetse bikorohereza n'umucuruzi bose nta numwe ukoze kumafaranga, ubu buryo buroroshye kandi burihuta sibyo gusa kandi butuma ubucuruzi butera imbere.

Aha hari abantu batatu, hari abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe, aha hari umugabo ufite Telefone uri kugerageza kwishyura undi mugabo, ndetse hari n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo gikorera mu Rwanda uri kubafasha, kugira ngo umuguzi n'umugurisha bishyurane bigende neza kandi byoroshye.

Aha hari iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, hari abakozi b'icyo kigo bane, ndetse hakaba hari n'abafatabuguzi babiri bari guhabwa ubufasha mubintu bitandukanye birimo kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga.

Aha hari abagabo babiri hari umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda uri gufasha umufatabuguzi w'icyo kigo wambaye ikoti ry'umukara kubona ubufasha mu bijyanye no kubitsa, kubikuza, kwakira no koreza amafaranga cyangwa kumufasha kuba yagura amayinite kugirango ngo abashe guhamagara no kohereza ubutumwa bugufi bahagaze imbere y'ikinyabiziga cy'umukara.

Iringiri ni iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, hari abantu batatu hari umukozi w'iki kigo ndetse n'umufatabuguzi wacyo ari kumuhereza agaseke ngo agire ibyo akuramo, hirya ya ho kandi hari undi mukozi wambaye umupira w'umuhondo.

Aha hari akaduka gatoya k'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo harimo umukozi w'icyo kigo wambaye umupira w'umuhondo akaba hari n'indi ntebe iticayeho umuntu, uyu mukozi ashinzwe gufasha abafatabuguzi bicyo kigo batuye hafi aha, kubaha ubufasha mu bijyanye n'itumanaho ari ryo kohereza amafaranga kuyabitsa kuyabikuza ndetse no kuyakira.

Aha ngaha hari iduka ry'ikigi k'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo hari abakozi bicyo kigo ndetse n'abafatabuguzi bacyo babiri ndetse n'undi wicaye ku ntebe ategereje, bose baba bashaka ubufasha ku bintu bitandukanye cyane cyane kohereza, kwakira, kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga.

Iri ni iduka rikoreramo ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, harimo abakozi b'icyo kigo bambaye imipira y'imihondo, harimo ndetse n'ibipapuro by'umuhondo, hari abafatabuguzi b'icyo kigo bari kwaka ubufasha mu bintu bitandukanye, abakozi bafite za mudasobwa kugira ngo biborohere gufasha abafatabuguzi.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo gikorera mu Rwanda cy'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo; haba harimo umukozi w'icyo kigo umwe, ufasha abafatabuguzi b'icyo kigo begereye hano, kugira ngo abahe ubufasha mu bintu bitandukanye birimo: kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga.

Iri ngiri ni iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, hano hari abakozi b'icyo kigo ndetse n'abafatabuguzi bacyo basaba ubufasha mu bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'itumanaho cyane cyane nko kubitsa korohereza kwakira no kubikuza amafaranga, sibyo gusa kandi baba bakeneye ibisobanuro ku bintu bijyanye n'itumanaho nko guhamagara ndetse no kohereza ubutumwa bugufi.

Iyi shusho iratwereka umugabo wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'amataratara y'umukara, utwaye igare akaba ahetse igikapu gishyirwamo ibicurizwa, kikabivana ku mucuruzi, kibigeza ku muguzi, ibi ngibi byihutisha ubucuruzi kandi byorohereza umuguzi kuko ibicuruzwa bimugeraho vuba kandi mu gihe gito atavuye aho ari.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi ryitwa Murukali aho umuntu ashobora gutumizaho ibyo akeneye cyane cyane ibiryo cyangwa ibindi akeneye gukoresha bikamugeraho ku gihe atiriwe ava aho ari kandi agakoresha uburyo bugezweho bwo kwishyura adakoze ku mafaranga.

Ahangaha hari ibikoresho bitandukanye ibyo guteka harimo inyama, inkoko, ndetse n'imboga zigiye zitandukanye. Si ibyo gusa hari amafi amavuta yo guteka ndetse n'ibishyimbo hakaba hari n'imbuto zitandukanye zirimo inanasi ndetse n'umuceri hari, aha ngaha hariho ibiciro by'ibi bintu hakaba kandi hari ari isoko rikorera kuri murandasi ku buryo umuntu bimugeraho mu rugo atavuye ahari ngo ajye ku isoko.

Aya ni amapikipiki yifashishwa cyane mu bucuruzi, akura ibicuruzwa ku mucuruzi abigeza ku muguzi mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Ibigibi byihutisha ubucuruzi bikorohereza umuguzi ibicuruzwa bikamugeraho ateriwe ajya ku isoko.

Aya n’ amapikipiki n'abatwazi bayo bifashishwa mu bucuruzi cyane cyane mu gukura ibicuruzwa ku masoko ibigeza ku baguzi aho umuguzi atumizaho ibicuruzwa akeneye bikamugeraho mu rugo vuba vuba, ubu buryo burizewe kandi buribwa.

Ibi ni ibinyabiziga byinshi bitondetse k'umurongo, n'ibinyabiziga bitanu biri imbere y'inyubako ndende ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umweru ibi binyabiziga byifashishwa mu gukura ibicuruzwa ku masoko bibigeza ku maduka atandukanye y'abacuruzi cyangwa se abaguzi baba baguze ibicuruzwa bataguye mu rugo bikabagereraho ku gihe.

Iki ni icyumba cyiza cyane, kiri mu nzu nziza cyane, isizemo amarangi meza cyane, ndetse hari urumuri rugaragara neza cyane, n'igitanda gishashe neza cyane, hariho amashuka meza ndetse n'imisego yo kuryamaho myiza cyane.

Ahangaha hari inzu nziza cyane, imbere ye ijisho kuyireba, yubatse neza kandi isize amarangi meza cyane, ni inzu ifite urugi rusize irangi ry'umukara, akaba ari inzu igirishwa kuri miliyoni mirongo ikenda n'eshanu, mu mugi wa Kigali, I Kanombe.

Ahangaha hari icyumba kirimo uburiri bwiza cyane, buriho amashuka y'umweru ndetse n'imisego y'umweru, ni icyumba gisizemo irangi ry'umweru, ndetse kirimo itara riri kwaka umweru, ni icyumba cyiza cyane kandi kibereye ijisho umuntu yaryamamo akisanzura.

Iyi shusho iratwereka inzu nziza cyane ifite imiryango hejuru no hasi, igeretse kabiri ni inzu ifite imiryango iseze irange ry'umukara, inzu kandi isize amarangi yumweru ni inzu wabona muri kigali yo gukodeshwa, ukabamo ufite umutekano uhagije kandi ni inzu ifite ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti biyikikije byiza cyane.

Aha ni munzu nziza cyane ifite amakaro y'umweru ndetse n'umukara hari kwakamo amatara meza cyane ni inzu nziza cyane igurwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y' u Rwanda ni inzu nziza cyane ibereye ijisho iherereye i Kanombe mu mujyi wa kigali.

Aha hari icyumba cyiza cyane giteguye neza cyane gishashe neza kirimo uburiri bwiza kiriho amashuka ari mu mabara y'umutuku, umukara ndetse n'ikijuju ndetse n'umushya bwo kuryamaho ufite ibara ry'umweru ni icyumba cyiza cyane gishashe neza kandi giteguye neza cyane, ku uburyo ushobora guhagarara mu kirahure ukareba hanze uko hameze ugakomeza kuryoherwa n'ubuzima.

Iyi shusho iratwereka ubutaka bwiza cyane bufite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, inyuma y'uruzitiro hari inzu nziza cyane ifite amabati y'umukara ndetse n'indi ifite amabati y'umutuku. Iyi shusho iratwereka ko ubu butaka bugurishwa kuri miriyoni cumi neshanu z'amafaranga y'u Rwanda, buherereye muri bumbogo, musave mu mujyi wa Kigali.

Iyi shusho iratwereka inzu nziza cyane nziza cyane, ifite urukarabiro rwiza cyane, ifite n'inzugi nziza cyane, kandi ifite ibara ry'umweru, isize irangi ry'umweru, ndetse n'igisenge gisa umweru kandi iratwereka ko ino nzu igurishwa miliyoni mirongokeyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali.

Iyingiyi ni inzu nziza cyane iherereye ku Gisozi, mu mugi wa Kigali. Ni inzu ifite ibyumba bine. Ni inzu nziza cyane kandi ubona ko ifite ubwogero bwiza cyane, ni inzu ifitemo amakaro y'umweru kandi meza cyane, ku buryo umuntu ashobora kuyibamo kandi akaba abaye mu nzu nziza.

Aha hari inyubako nziza cyane ifite amabati atukura, isize amarange meza cyane y'ubururu ndetse n'ay'icyatsi ku nzugi, ndetse n'amadirishya. Ifite umurima uhinzemo ibintu bitandukanye harimo ibigori, ndetse n'indabo z'amoko atandukanye, si ibyo gusa iyi nzu irakodeshwa, iri mu karere ka Kicukiro, hakaba hariho n'ibiciro, umuguzi ashobora kubona kugira ngo abashe kuyikodesha.

iyi ni inzu nziza cyane ifite hasi no hejuru isize amarangi atandukanye ay'umweru ndetse n'ay'umuhondo ifite imiryango iri hejuru no hasi, iri gacuriro mu mujyi wa kigali ni inzu ikodeshwa kandi igiciro cyiza kiri kuri ino shusho, ifite ibyumba bitanu ndetse n'ibiro byo gukoreramo.

Uyu ni umugabo uri imbere y'inzu umenyerewe cyane mu kwamamaza inzu zigurishwa cyangwa se zikodeshwa, ari imbere y'inzu nziza cyane; inzu isize amabara meza cyane y'umuhondo ndetse n'ay'ikijuju, hatudasize n'amabara y'umweru. Ni umugabo wambaye imyenda ipantaro y'imikara, ndetse n'inkweto z'umukara, si ibyo gusa kandi yambaye n'ishati ijya gu gusa umweru.

Ahangaha hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikijuju uhagaze imbere y'inzu nziza cyane isize irangi ry'umweru, ikaba ifite inzugi zisize, inzugi n'amadirishya zisize irangi ry'ubururu. Ni inzu kandi ifite amabati y'umweru.

Iyi ni inzu nziza cyane isize irangi ry'umweru ndetse ifite inzugi zifite ibara ry'ubururu bwerurutse, ni inzu ifite ibyumba bitatu, ni inzu ikodeshwa iherereye Kimironko ku bihumbi magana ane by'amafaranga y'u Rwanda.

Aha hari inzu nziza cyane isize amarangi meza cyane y'amabara y'ubururu ndetse nayicyatsi kunzugi ndetse n'amadirishya, ifite amabati atukura hariyo indabo nziza cyane z'umuhondo ndetse n'ibihingwa bitandukanye n'ibigori, iy'inzu n'inzu imenyerewe cyane gukodeshwa, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi maganatanu k'ukwezii.

Ahangaha hari inzu nziza cyane isize amarangi atandukanye, hari irangi ry'umuhondo inzu kandi isize irangi ry'umweru ku nzugi ikaba ifite ibirahure by'ubururu, ni inzu nziza kandi ifite imiryango myinshi cyane, ni inzu ikodeshwa ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri.

Aha hari inyubako nziza cyane, ndende ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane ubucuruzi ndetse hakoreramo ibigo bya leta byinshi bigiye bitandukanye, cyane nk'icyo kigo cyitwa Agaciro gifasha abantu mu kubaha inguzanyo kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Iyi ni inzu nziza cyane ikodeshwa, ifite uruzitiro rwiza ndetse n'amarangi meza, iherereye muri Remera hafi yaho bakinira umupira, ni inzu ifite icyumba kimwe kijyamo igitanda cy'umuntu umwe.

Aha hari inzu nziza cyane, isinze amarangi y'icyatsi, ifite amabati atukura, ifite uruzitiro rusize narwo amarangi yicyatsi ariko hariho ibyuma byumukara imbere yiyo nyubako hari igiti cyiza cyane kijyana umuyaga muri uru rugo, iyi nyubako rero iherereye kabeza mu mujyi wa kigali irakodesha.

Aha hari inzu nziza cyane ibereye amaso isize amabara y'umukara ndetse n'umweru ku nzugi n'amadirishya, ifite amabati atukura, bisa nk' aho ari inzu ikodeshwa, hariho ibiciro ndetse n'ibyumba birimo, ku buryo byorohera ukodesha kubona igiciro cy'iyi nzu bityo bikamworohera kuvugana n'umuntu ushaka gukodesha inzu.

Aha hari inzu nziza, ariko idakoreye amasuku neza, ni inzu ifite imiryango, umuryango umwe, ndetse n'idirishya rimwe, umuryango w'umutuku ndetse n'ibirahure by'ubururu, ni inzu iherereye muri Kanzenze, igurishwa kuri miliyoni cumi na zirindwi.

Ahangaha hari inzu nziza cyane ariko itaruzura ngo ikorerwe amasuku hari umugabo uri hejuru uri kubaka igisenge cy'iyi nzu, hakaba hari n'undi uri kugenda wambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ipantaro y'ubururu kandi ni inzu nziza cyane yubatse ahantu heza cyane kandi yubatse mu buryo bubereye ijisho.

Iri ngiri ni isoko ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, imyambaro, inkweto, ibikapu ndetse n'imikandara by'amoko menshi atandukanye, hari abagore babiri ndetse n'umugabo uhagaze hirya yabo, bari kugura ibintu bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka ryiza cyane ririmo ibicuruzwa byiza cyane, cyane cyane bikoreshwa mu gikoni, harimo umugore wicaye ari kubireba ndetse n'umugabo hirya wambaye umupira urimo imirongo y'umukara ndetse n'umweru, ibi bicuruzwa bitondetse mu buryo bwiza bufite isuku kandi bubereye ijisho ku bureba.

Aha ni mu iduka rigezweho cyane haba harimo ibicuruzwa by'amoko menshi atandukanye aho umuguzi yinjiramo akazengurukamo akareba ibikoresho byose akeneye cyangwa ibicuruzwa byose akeneye, abisangamo kandi biroroshye kandi ibiciro biba ari ibiciro byiza cyane.

Iri ngiri ni isoko ririmo iduka ry'imyenda myiza cyane itondetse ku murongo harimo amakote ndetse n'indi myambaro itandukanye sibyo gusa harimo n'ibikapu by'ubwoko butandukanye umuntu ashobora kwifashisha atwaramo ibintu bitewe n'urugendo agiyemo harimo abantu batandukanye ab'uruhu rwera n'urw'irabura, abaguzi n'abagurisha.

Iyi ni inyubako ndende cyane igeretse inshuro enye, ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye hari ubucuruzi bw'imyenda, hari ahacururiza ibiryo, hari aho abantu bajya kwikoresha mu bijyanye n'ubwiza, hari ibintu byinshi bitandukanye bibereye ijisho.

Iringiri ni isoko rinini riba ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'amoko menshi haba harimo inkweto, harimo inkweto, ibikapu ndetse n'imyambaro itandukanye harimo kandi abantu benshi bari guhaha ndetse n'abacuruzi barimo gucuruza.

Iri ni iduka ricuruza ibintu ibioresho bitandukanye cyane cyane inkweto ndetse n'imikandara, ibyinshi birimo ni ibikoze mu ruhu cyangwa se ibikoze mu mpu zigiye zitandukanye, ni ibicuruzwa byiza cyane kandi bibereye ijisho kubireba bitondetse neza kandi bidateje akavuyo.

Aha ni mu isoko rinini rimenyerewe kubonekamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye by'amoko menshi harimo imyambaro, inkweto, n'ibindi byinshi bitandukanye. Aha rero hari umugabo uri gucuruza ibyo ngibyo byose imbere ye hari inkweto, inyuma ye hari inkweto hirya ku ruhande, hari imyambaro y'abagore itandukanye ndetse n'amashati.

Iyi ni inzu ikoreramo abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibereho myiza y'abaturage, itandukanye kandi harimo nabaje gusaba ubufasha mu bijyanye n'ibintu bitandukanye, cyane cyane by'ubuzima cyangwa se gushaka ibyo byangombwa bakoresha bivuza.

Iyi shusho iratwereka umuntu urimo mo imbere uri kwandika mu ikayi afite n'ikaramu imbere ye ndetse hari ibitabo byinshi bitandukanye hanze hari umuntu ukeneye ubufasha uri mu idirisha ari kumubwira ubufasha akeneye mu bintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'ubuzima cyangwa se imibereho myiza.

Aha ni ku biro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibereho myiza y'abaturage, harimo abakozi b'iki kigo bagiye batandukanye, ndetse n'abaturage batandukanye baje gusaba ubufasha mu bijyanye n'ubuzima cyangwa se imibereho myiza, bigiye bitandukanye.

Aha hari inyubako ndende nziza cyane isize amarange atandukanye ndetse afite ibirahure by'ubururu ni inyubako igaragara neza iruhande rwayo hari igiti kirekire nacyo kiza cyane kandi hakaba hari n'ikinyabiziga giparitse mu nsi gifite ibara ry'umweru.

Aha hari indangamuntu cyangwa se icyangombwa kigaragaza ko nyiracyo ari umwenegihugu w'u Rwanda, afite ubwenegihugu bw'u Rwanda, si ibyo gusa hariho ifoto ye hari n'ikindi cyangombwa kimenyerewe cyane mu kwivuza, ubwisungane mu kwivuza, hariho ifoto ye.

Iyi shusho iratwereka gahunda nziza cyane ya ejo heza aho umuntu yizagamira mu buryo bw'igihe kirekire ku buryo mu zabukuru ze atazigera akora kandi ibingibi bimugirira akamaro iyo ashaje bikagirira n'akamaro abana be cyangwa se abamukomokaho.

Aha hari abaturage benshi cyane bitabiriye igikorwa mu bijyanye na gahunda ya ejo heza cyangwa se mu buryo bwo kugirango bashishikarize abaturage gukoresha gahunda ya ejo heza babasobanurire iby'iyi gahunda n'uburyo ishobora gufasha abantu.

Ahangaha hari ababyeyi babiri umwe yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, ndetse akaba yiteze n'agatambaro k'umuhondo mu mutwe. Undi afite agashuka k'umweru ndetse nawe yiteze igitenge mu mutwe bose bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza.

Iri ni idukaba ririmo ibikoresho by'amoko menshi atandukanye, aho abantu binjiramo bagahaha. Harimo umukobwa uri guhaha aterura ibintu ashyira mu kabugenewe kubishyiramo kugira ngo abigure, inyuma hari abandi bari kumufata amafoto ndetse n'amashusho.

Iri shusho riratwereka umugore uri guhaha, uri mu iduka ricuruza ibyo kurya bitandukanye, ndetse hari n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda ari gufasha abantu kubitsa, kohereza no kwakira amafaranga, wambaye umupira w'umuhondo ufite ikora ry'ubururu inyuma yabo hari n'abandi bagabo babiri.

iIriri ngiri ni iduka rigezweho ryiza cyane kandi rya kijyambere rizwi cyane mu Rwanda ryitwa simba, harimo abantu batandukanye, harimo umukobwa wambaye ipantaro y'icyatsi cyerurutse uri gusohoka ndetse hakaba harimo n'abandi bari guhaha ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'abakozi bakorera rino duka bari kubafasha.

Iyi shusho iratwereka mu gihe buri kwira hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye; ibyigenga ndetse n'ibindi bitandukanye n'abantu bari kugenda mu nzira. Si ibyo gusa hari n'ikirangahantu cyerekana ko hano hari iduka rizwi cyane mu Rwanda mu kugira ibicuruzwa byiza kandi bifite ubuziranenge, bya Simba biri mu karere ka Kicukiro.

Iyi shusho irimo umukobwa wambaye umupira w'ikijuju ndetse n'inkweto z'umweru zirimo ibara ry'ikijuju, afite akantu k'umukara ari guhahiramo, ari mu iduka cyangwa se mu isoko ricuruza ibyokurya, cyane cyane imboga.

Iri ni iduka rigezweho rya kijyambere ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, harimo imbuto, harimo ndetse n'ibyokunywa bitandukanye, ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa cyane cyane mu guteka cyangwa se mu nzu ariko higanjemo cyane cyane imbuto.

Ahangaha hari isoko ryiza cyane cyangwa se iduka rinini cyane ribamo ibintu byose, ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi byo guteka bitandukanye, harimo imbuto harimo n'ibindi bikoreshwa cyane cyane mu gikoni hari bitondetse neza ku murongo kandi bibereye iisho ku birebe.

Iyi shusho iratwereka ko hano ari mu iduka ricuruza ibintu bigenda bitandukanye cyane cyane ibikorewe mu ifuru ngo harimo imigati n'amakeke n'ibindi n'ibindi byinshi, cyane bikozwe n'ifarini, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ndetse hari n'ibyokunywa by'amoko menshi biri mu cyuma gikonjesha.

Iri ni iduka ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye byifashishwa mu ngo z'abantu cyangwa se mu buzima busanzwe, hari ahari imbuto ndetse n'imboga hari ahari inyama ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi bitandukanye umuntu ashobora kugura cyane cyane imbuto n'imboga.

Iri ni isoko ryiza cyane ririmo ibicuruzwa byiza cyane biteye amabengeza ku bireba. Bitondetse neza ku murongo harimo ibifite amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'andi mabara atandukanye. Ahangaha ushobora kuza yo ugahaha ibyo ushaka ibikoresho byo mu rugo bitandukanye, ibyo guteka ndetse n'ibikoresho byinshi byo mu nzu.

Iri ni soko rinini cyane riba ririmo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, ibyo guteka ndetse n'ibindi byose bikenerwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi, ni ibicuruzwa bitondetse ku murongo kandi bitondetse mu buryo bubereye ijisho ku buryo bidateje akavuyo, ibintu bifasha umuguzi n'umucuruzi kugira ngo ubuhahirane bugende neza hirya hari umugore wambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'ijipo y'umukara ufite umusatsi muremure w'umukara.

Iri ngiri ni iduka ribamo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye hateguyemo hatondetsemo, ibicuruzwa byinshi cyane cyane ibyo guteka, harimo amavuta, udufuka, turimo imiceri, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikenerwa mu guteka.

Iri ni isoko ryiza cyane kandi rinini cyane ribamo ibikoresho bitandukanye, ibyo kurya ndetse n'ibikoresho byinshi byo mu nzu imyambaro ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ni isoko rigira akamaro kanini cyane cyane kubera ritanga akazi ku bantu barituriye.